Inkoko eshatu ziriho ibigori biza n'utuku, ibindi biri mu gikarito cyabyo, bimeze neza cyane, nibihingwa abahinzi bifashisha, bakabyitaho bashiramo ifumbire bita imvaruganda, iyo umuntu abisaruye arabishora bivamo amafaranga, bitanga ifu umuntu anywamo igikoma, bitanga n'umnsima wo kurya.

Ibicupa byinshi bashiramo umuti, bifite amabara atandukanye amwe asa n'icyatsi, andi asa n'umweru, n'umukara, batereka ku gikoresho bita ameza, kiva mu mbaho. Hari n'ishashi isa n'umukara, n'icyuma kiriho icupa rimwe.

Umurima munini urimo umuceri bawitaho, bashiramo ifumbire, bawutera umuti kugira ngo udukoko tutajyaho, utanga umusaruro ushimishije, barawusarura, barawanika, bawujyana ku isoko, ikindi kandi utanga amafaranga baranawurya.

Ibihingwa abahinzi bahinga babyitaho bashyiraho ifumbire kuko bitanga umusaruro ushimishije. Barabisarura, bakabijyana ku isoko, bigatanga amafaranga. Ikindi kandi muri uwo murima, hari umuntu uhetse ipombo ari gutera umuti ibyo bihingwa biri muri uwo murima.

Umurima munini uhinzemo ibihingwa, abahinzi bifashisha babyitaho bashyiraho ifumbire bita imvaruganda, bakabitera umuti, bitanga umusaruro ushimishije. Barabisarura bakabijyana ku isoko bigatanga amafaranga. Ikindi kandi baranabiteka.

Imboga nyinshi zifite amabara atandukanye, amwe asa n'ubururu andi asa n'icyatsi andi asa n'umutuku, zirimo ifumbire bita imvaruganda, abahinzi bifashisha bahinga, kuko iyo bashize mubihingwa birera, bigatanga umusaruro ushimishije cyane.

Ibihingwa abahinzi bahinga bitandukanye harimo ibigori babyitaho bashyiraho ifumbire, kuko bitanga umusaruro ushimishije barabisarura babijyana ku isoko bitanga amafaranga, ikindi kandi babijyana kubibetesha bitanga ifu banywamo igikoma n'umutsima.

Umurima munini urimo ibihingwa abahinzi bahinga babyitaho bashyiraho ifumbire bita imvaruganda, babitera umuti kugira ngo bitazana udukoko, barabisarura babijyana mu isoko bitanga amafaranga ikindi kandi baranabiteka.

Amafi bayororera mu mazi, bayitaho, barayagaburira kuko atanga umusaruro ushimishije, barayaroba, bayajyana ku isoko, atanga amafaranga, ikindi kandi abantu baranayarya, aba aryoshye cyane.

Icyuzi kinini cyane kirimo amazi, kibamo amafi, abantu barayaroba, bayajyana ku isoko, atanga amafaranga, barayarya, ikindi kandi hirya ya cyo hari amashyamba agira akamaro kuko bakuramo intebe, bakoramo ameza n'ibindi.

Amafi ari mu ibase ifite amabara atandukanye, amwe asa n'ubururu, andi asa n'umweru. Amafi bayitaho barayagaburira kuko atanga umusaruro ushimishije, atanga amafaranga ,ikindi kandi abantu baranayarya.

Imbabura bashyiraho ibyuma bita fera beto, barambikaho amafi, ameze neza, bashyiraho ibirungo bitandukanye, ikindi kandi abacuruzi barayacuruza, abaguzi bakayagura, kuko amafi agira akamaro gatandukanye mu mubiri, ikindi kandi bayateka bagashyiramo ubunyobwa, bivamo isosi rimeze neza cyane.

Igikoresho twita ameza gisize irangi risa n'umuhondo, baterekaho amafi y'amoko yose atanga umusaruro, abacuruzi barayagurisha ikindi kandi barayarya avamo isosi imeze neza cyane.

Icyuzi kinini cyane kirimo amazi menshi cyane, kibamo amafi y' amoko yose, harimo n' ibikoresho bifashisha bayagaburira, kuko atanga umusaruro ushimishije, baraziroba bazijyana ku isoko, barazigura, zitanga amafaranga baranazirya.

Amafi menshi cyane ari mu mazi bayitaho barayagaburira, kuko atanga umusaruro ushimishije, barayaroba bayajyana ku isoko atanga amafaranga, ikindi kandi abantu baranayateka aba aryoshye cyane.

Ubutaka bukozwe mu mitabo bumeze neza cyane, bahingamo ibihingwa bitandukanye: ibishyimbo, ibirayi imyumbati, amateke n'ibindi bivamo umusaruro ushimishije iyo babyitayeho neza cyane.

Imirima itandukanye irimo insina ndetse n'intusi. Abantu babyitaho bakabishyiraho ifumbire, byamara kwera barabigurisha bakabaha amafaranga. Ikindi kandi ibiti barabyubakisha, bivamo umuti bifashisha bivura, ndetse n'insina nazo zivaho ibitoki, imineke, zivamo umutobe banywa.

Umurima munini uhinzemo ibigori babyitaho bashyiraho ifumbire, kuko bitanga umusaruro ushimishije, barabisarura babijyana ku isoko bitanga amafaranga, ikindi kandi barabibetesha bivamo ifu banywamo igikoma bivamo n'umutsima.

Umurima munini bahingamo ibigori, babyitaho bashyiraho ifumbire bita imvaruganda, birera babijyana ku isoko barabigurisha, ikindi kandi barabibeta bivamo ifu banywamo igikoma, ndetse n'umutsima.

Umurima munini umeze neza, barawuhinze bawihitaho bashyiramo ifumbire bashyiramo ibihingwa, babyitaho kuko bitanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi inyuma kuri uwo murima uhinze hari ibiti bimeze neza cyane.

Umurima munini urimo ibihingwa bitandukanye ibinyomoro, ibigori babyitaho bashyiraho ifumbire kuko bitanga umusaruro ushimishije, barabigurisha bitanga amafaranga icyindi kandi barabirya ibinyomoro babiha umwana utangiye kurya.

Umurima munini uhinze umeze neza, bashyiramo ibihingwa, ikindi kandi muri uwo murima hari igiti bita avoka bayitaho kuko itanga umusaruro ushimishije, zirera, barazisarura, bazijyana ku isoko zitanga amafaranga.

Umurima urimo igiti cya avoka kimeze neza bacyitaho, barakigurisha bakuramo amafaranga iyo cyeze, bakuramo amavuta bisiga, bakuramo isabune bafurisha imyenda, bakamera neza cyane.

Umurima urimo ibihingwa bitandukanye， ibirayi，iyo babyitaho， bashyiraho ifumbire， kuko bitanga umusaruro bishimishije，babisarura babijyana ku isoko，bitanga amafaranga， ikindi kandi abantu barabirya.

Umurima urimo ibihingwa bitandukanye babyitaho, bashyiraho ifumbire kuko bitanga umusaruro ushimishije. Barabisarura, babijyana ku isoko, ikindi kandi barabiteka, barabirya. Hirya y'uwo murima hari insina zimeze neza bazitaho, bashyiraho ifumbire kuko zitanga umusaruro umeze neza cyane.

Umurima uteyemo insina zimeze neza, bazitaho, bashyiraho ifumbire, kuko zitanga umusaruro ushimishije, barazigurisha, barazigura, zitanga amafaranga, ikindi kandi baranabirya, ibitoki biva ku nsina, imbere y'izo nsina hari igiti bita isombe ziryoha cyane.

Umurima munini uteyemo ibiti bimeze neza cyane, babyitaho, bigira umusaruro ushimishije, bivamo intebe, bivamo ameza, bivamo imbaho, ikindi kandi baranabicana, baranabigurisha bigatanga amafaranga.

Umurima munini urimo ibihingwa, abahinzi bahinga babyitaho bitanga umusaruro babisarura, bajyana ku isoko bitanga amafaranga, ikindi kandi hirya y' uwo murima hari ibiti bimeze neza bitanga umusaruro, ushimishije babikuramo intebe abantu bicaraho.

Umurima munini uhinzemo ibirayi, babyitaho, babishyiraho ifumbire, nibyera bizatanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi babijyana ku isoko bakabigurisha, bitanga amafaranga, baranabiteka, biba mu mafunguro atera imbaraga.

Imyumbati abahinzi bahinga bayitaho bashyiraho ifumbire, kuko itanga umusaruro ushimishije. Barayisarura, bayijyana ku isoko, itanga amafaranga. Ikindi kandi bayiteka ku bishyimbo, barayibetesha ikavamo ubugari barya.

Umurima urimo ibihingwa, babyitaho bashyiraho ifumbire kuko bitanga umusaruro ushimishije, barabisarura babijyana ku isoko bitanga amafaranga, ikindi kandi mu murima harimo umuntu uhagaze uri kureba.

Ibihingwa abahinzi bahinga ibirayi babyitaho, bashyiraho ifumbire, kuko bitanga umusaruro ushimishije, babisarura babijyana ku isoko, bitanga amafaranga, ikindi kandi baranabiteka, inyuma y'ibyo birayi, hari abantu bicaye bari kubicuruza.

Umuntu wambara imyenda isa n'ubururu n'umukara, ufite igare rifite amabara atandukanye. Hariho imyumbati imeze neza bayitaho bashyiraho ifumbire, itanga umusaruro ushimishije. Barayijyana mu isoko, itanga amafaranga, bayikoramo n'ubugari bwo kurya.

Ibihingwa abahinzi bahinga bita ibigori babyitaho, bashiraho ifumbire kuko bitanga umusaruro ushimishije, barabisarura babijyana ku isoko, bitanga amafaranga, ikindi kandi abantu barabibetesha bitanga igikoma abantu banywa, bitanga ubugari abantu barya.

Umurima munini urimo ibyatsi intama zirya, zimeze neza zirabyibushye, zigira akamaro gatandukanye, bazijyana ku isoko, zitanga amafaranga, barazibaga zivagamo inyama, ikindi kandi hirya yazo hateye ibiti bimeze neza cyane.

Ibihingwa bifashisha abahinzi bahinga, byamara kwera barabisarura bakabishora aribyo imiteja, powavuro, sereri, n'ibindi. Ni ibibiribwa umuntu yifashisha mu gutegura amafunguro, ni biribwa biryoha kandi bigira akamaro kanini cyane.

Umurima urimo ibihingwa, abahinzi bahinga bita amashu, bayitaho, bashyiraho ifumbire, kuko atanga umusaruro ushimishije, barayasarura bayajyana ku isoko, atanga amafaranga, ikindi kandi muri uwo murima harimo umuntu, wambara imyenda ifite amabara atandukanye, mu ntoki z'iwe harimo urushu.

Umurima urimo ibihingwa bita karoti, bazitaho, bashyiraho ifumbire, kuko zitanga umusaruro ushimishije, barazisarura, bazijyana ku isoko, zitanga amafaranga, ikindi kandi muri uwo murima harimo abantu babiri bari kuzitaho neza cyane, inyuma y'abo bantu hari ibihingwa bita ibigori n'ibishyimbo, bitanga umusaruro ushimishije neza cyane.

Uruja n'uruza rw'abantu bambara imyenda ifite amabara atandukanye, baje guhinga ibihingwa, babyitaho, bashyiraho ifumbire kuko bitanga umusaruro ushimishije. Ikindi kandi hari n'abafashe ifumbire mu ntoki zabo.

Imiteja myinshi iri mu gikoresho gisa n'ubururu. imiteja imeze neza bayitaho itanga umusaruro umeze neza bayijyana ku isoko barayigua ikindi kandi barayiteka iba mu mafunguro ikarinda indwara.

Ibihingwa abahinzi bahinga, babyitaho bashyiraho ifumbire kuko bitanga umusaruro ushimishije, barabisara babijyana ku isoko bitanga amafaranga, ikindi kandi muri uwo murima harimo umuntu wambara imyenda ifite amabara atandukanye, uri kubagarira ibyo bihingwa hirya y'uwo muntu hari avoka imeze neza, bayihitaho itanga umusaruro n'ibindi.

Umurima munini urimo ibihingwa，abahinzi bahinga ibigori， babyitaho， bashyiraho ifumbire， kuko bitanga umusaruro ushimishije，barabisarura，babijyana ku isoko，bitanga amafaranga， ikindi kandi abantu barabibetesha，bivamo ifu abantu banywamo igikoma. Muri uwo murima harimo umuntu uhagaze.

Umurima munini urimo ibihingwa bita ibigori babyitaho, bashyiraho ifumbire kuko bitanga umusaruro gushimishije. Babisarura babijyana ku isoko bitanga amafaranga, ikindi kandi baranabiteka bivamo ifu banywamo igikoma.

Ibihingwa abahinzi bahinga bita amashu, bayitaho, bashyiraho ifumbire kuko atanga umusaruro bushimishije ,barayasarura, bajyana ku isoko barayagurisha ,atanga amafaranga ikindi kandi abantu baranayarya.

Ibigori bimeze neza, babyitaho, bashyiraho ifumbire, barabisarura, babyanika ku biti mu buryo bwo kugira ngo byume neza, ikindi kandi barabihungurura, barabishora, bivamo amafaranga, babibetamo igikoma cyo kunywa, ikindi kandi banabigereka ku bishyimbo.

Avoka ni igihingwa abahinzi bahinga, bacyitaho, bashyiraho ifumbire, kuko itanga umusaruro ushimishije, barayisarura, bayijyana ku isoko, itanga amafaranga, ikindi kandi avoka ivamo isabune, abantu bakaraba, ivamo amavuta abantu bisiga, baranayirya.

Imbuto abahinzi bahinga bazitaho, bazishyiraho ifumbire kuko zitanga umusaruro ushimishije, barazisarura bazijyana ku isoko zitanga amafaranga, ikindi kandi zivamo umuti abantu banywa.

Abahinzi babiri bafite amasuka ku rutugu, bafite udufuka mu ntoki bari kujya guhinga ibihingwa bitandukanye bitanga amafaranga, ndetse ibyo barya harimo ibishyimbo, imyumbati, ibijumba, ibirayi n'amateke ndetse n'ibindi.

Ibihingwa bita ibishyimbo babyitaho, bashiraho ifumbire kuko bitanga umusaruro ushimishije, ukabijyana ku isoko, bitanga amafaranga abantu baranabirya, ikindi kandi muri uwo murima hari abantu babiri bahagaze bari kureba ibishyimbo uko bimeze.

Inkoko z'amoko atandukanye zifite amabara atandukanye bazitaho, barazigaburira kuko zitanga umusaruro ushimishije. Zitanga ifumbire, ikindi kandi zitanga amafaranga, baranazirya.

Ibihingwa abahinzi bahinga bita karoti, bazitaho kuko zitanga umusaruro ushimishije. Barazisarura bakazijyana ku isoko zitanga amafaranga. Ikindi kandi abantu baranaziteka ziba ziryoshye cyane.

Igihingwa abahinzi bahinga bita amapera bayihitaho, bashyiraho ifumbire kuko atanga umusaruro ushimishije. Barayasarura bakayajyanaga ku isoko atanga amafaranga. Ikindi kandi amapera abantu barayarya aba aryoshye cyane.

Umurima uteyemo imboga bita amashu, ameze neza bayitabwaho bashyiraho ifumbire bita imvaruganda ,agatanga umusaruro ushimishije, barayagurisha, barayagura bitanga amafaranga, ikindi kandi biba mu mboga zirinda indwara.

Inkoko z'amoko atandukanye zifite amabara atandukanye. Imwe isa n'umutuku indi igasa n'umukara. Zifite amaguru asa n'umweru, zihagaze ku giti ziri kureba, zifite amaso asa n'umukara. Ikindi kandi inkoko zitanga umusaruro ushimishije. Zitanga amafaranga, ifumbire n'amagi yo kurya.

Ibihingwa abahinzi bahinga. Ubunyobwa babwitaho bashyiraho ifumbire, kuko butanga umusaruro ushimishije. Barabusarura barabwanika, barabutonora, babujyana ku isoko, butanga amafaranga, ikindi kandi abantu barabubetesha, buvamo ifu abantu banywamo isosi iba iryoshye cyane.

Ibigori bimeze neza cyane babyitaho, bashiraho ifumbire kuko Itanga umusaruro ushimishije, hari imbabura iriho akuma bashyiraho ibigori bari kotsa, bimwe birokeje ibindi nta bwo byokeje, ikindi kandi hari umufuka urimo ibigori, hari n'indobo irimo ibintu.

Ibihingwa abahinzi bahinga， inyanya bazitaho， bashiyiraho ifumbire，kuko zitanga umusaruro ushimishije，barazisarura，bazijyana ku isoko， zitanga amafaranga， ikindi kandi baraziteka，zivamo isosi iba imeze neza cyane.

Ibihingwa abahinzi bahinga babyitaho, bashiraho ifumbire kuko bitanga umusaruro ushimishije, barabisarura bibijyana ku isoko bitanga amafaranga ikindi kandi hari ihema ririho ibyo bihingwa baba basaruye bakabyanika kugira ngo byume babijyane ku isoko byumye.

Umurima munini urimo abahinzi babiri bafite amasuka, barahinga, ikindi kandi hirya yabo haba ibimera bitandukanye harimo insina, urubingo amatungo arya, ndetse hateye igiti cyera avoka barya, n'ibishimbo biri ku bihembezo.

Umurima urimo ibihingwa, babyitaho bashyiraho ifumbire. Barabivomerera kuko bitanga umusaruro ushimishije. Babisarura babijyana ku isoko, bitanga amafaranga. Ikindi kandi muri uwo murima hariho abantu bafashe igihombo kinini bari kuvomerera.

Umurima munini uhinzemo imyumbati imeze neza bayitayeho bashiramo ifumbire, imyumbati imeze neza bayitayeho, niyera izatanga umusaruro ushimishije. Ikindi kandi barasarura ivamo ubugari bwo kurya, bayijyana ku isoko, barayigura itanga amafaranga.

Umurima munini cyane urimo ibihingwa, abahinzi bahinga, babyitaho kuko bitanga umusaruro ushimishije, bashyiraho ifumbire, barabisarura, babijyana ku isoko ikindi kandi hari abantu bahagaze muri uwo murima bari kureba ibihingwa birimo, hari ufite agakapu ku rutugu.

Ibikoro bibiri bibyibushye babyitayeho, bimeze neza, ikindi kandi bigira akamaro gatandukanye, babijyana ku isoko bigatanga amafaranga, ikindi kandi barabihata bakabishyira ku bishyimbo, barabijya.

Imbuto abahinzi bahinga aba ameze neza cyane, iyo yeze aba asa n'umukara mo imbere asa n'umuhondo, bayitaho bashyiraho ifumbire kuko atanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi barayagurisha atanga amafaranga, bayaha umwana utangiye kurya.

Umurima munini urimo abahinzi babiri bafite mu ntoki zabo amasuka bari gukorera ibihingwa babyitaho bashyiraho ifumbire, kuko bitanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi nyuma yabo bantu hari amazu ameze neza cyane.

Avoka bazitaho kuko zitanga umusaruro ushimishije iyo zeze bazijyana ku isoko zitanga amafaranga, ikindi kandi avoka bakoramo isabune abantu bakoresha mu gufura mu koga, ikindi kandi bakoramo amavuta abantu bisiga.

Umurima urimo ibigori, babyitaho bashiraho ifumbire, kuko bitanga umusaruro ushimishije, barabisarura babijyana ku isoko, bitanga amafaranga ikindi kandi baranabirya, barabibetesha bivamo ifu, banywamo igikoma baryamo n'umutsima, harimo n'umuntu uhagaze, uri kubireba ufashe ibyatsi mu ntoki.

Umurima munini urimo umuntu ufite ibishyimbo bimeze neza, babyitaho, bashyiraho ifumbire, bitanga umusaruro ushimishije, barabigurisha, babijyana mu isoko, bitanga amafaranga, ikindi kandi baranabiteka.

Imodoka iba nziza kuko ijyana ibintu ahantu runaka, hari umuntu urimo gupakira undi amuhereza ikindi kandi imodoka ifite amabara atandukanye rimwe risa n'umweru irindi risa n'umutuku.

Ibihingwa abahinzi bahinga, ibitoki babyitaho, bashyiraho ifumbire kuko bitanga umusaruro ushimishije. Babisarura babijyana ku isoko, bitanga amafaranga. Ikindi kandi abantu barabitara, bivamo imineke abantu barya.

Umuntu uteruye imyumbati imeze neza, bayitaho bashyiraho ifumbire itanga umusaruro barayisarura, bayijyana ku isoko itanga amafaranga, bayiteka ku bishyimbo ,ikindi kandi barayibetesha ivamo ubugari.

Ibirayi bita kinigi, babyitayeho bimeze neza bitanga umusaruro, bashyiraho ifumbire, barabigurisha, bitanga amafaranga ikindi kandi barabihata bakabiteka, biraryohaha cyane kuko bitera imbaraga.

Imifuka isa n'umweru irimo ibirayi ,babyitaho bimeze neza, bashyiraho ifumbire bita imvaruganda, babijyana ku isoko babaha amafaranga ,ikindi kandi babiteka biba mu mafunguro atera imbaraga.

Igihaza kinini kibyibushye, baragihinga, bacyitaho, bashyiraho ifumbire, kirera bakijyana ku isoko, barakigurisha, barakigura, babaha amafaranga, ikindi kandi bagiteka ku bishyimbo, kiba mu mafunguro arinda ndwara.

Umurima munini uhinzemo ibimera, urimo abahinzi batatu babyitaho bashyiraho ifumbire, bita imvaruganda n'ibyera bizatanga umusaruro ushimishije barabisarura babijyana ku isoko, bakabaha amafaranga.

Avoka bazitaho bashyiraho ifumbire, kuko zitanga umusaruro ushimishije, barazisarura, barazitara, bazijyana ku isoko, zitanga amafaranga, ikindi kandi avoka bakoramo amavuta abantu bisiga, bakoramo isabune abantu bafurisha.

Igihingwa abahinzi bifashisha mu guhinga, kimeze neza bacyitaho, bashyiraho ifumbire kuko gitanga umusaruro ushimishije, bakijyana ku isoko, gitangaga amafaranga, ikindi kandi baranakirya hari ukuboko kugifashe.

Ihene ziba zifite amabara atandukanye zimwe zisa nk'ikigina, umweru, umukara ziba ziri kurisha mu byatsi, zambarag ibiziriko mu ijosi ikindi kandi ihene zitanga umusaruro, barazigurisha zibamo amafaranga, inyama n'ifumbire n'ibindi.

Umurima munini guhinzemo inyanya, bazitagaho bateragaho umuti twitaga detane, bashiragaho ifumbire bitaga imvaruganda baranazihembereraga zitangaga umusaruro gushimishije ikindi kandi baranazitekaga zivagamo isosi nziza cyane.

Ibihingwa abahinzi bahinga harimo puwavuro ziba zimeze neza. Bazitaho, bashiraho ifumbire kuko zitanga umusaruro ushimishije. Barazisarura bazijyana ku isoko, zitanga amafaranga. Ikindi kandi iyo batetse ibiryo bazikatiramo kuko ibiryo biba bihumura neza cyane.

Umurima uteyemo ibimera bimeze neza, bacyitayeho gitanga umusaruro ushimishije, kigira akamaro kanini, bazijyana ku isoko, zitanga amafaranga, ikindi kandi barazitunganya, zivamo amavuta, ndetse n'isabune bameshesha imyenda.

Ikiraro bororeramo amatungo, cyubakishije ibiti, gishakaje amabati, kirimo amatungo asa n'umweru, kirimo ibikoresho bitandukanye bifite amabara, umutuku kimwe gisa n'umuhondo, ikindi gisa n'umweru. Ikindi kandi atanga umusaruro, kuko avamo amafaranga, atanga inyama, atanga ifumbire.

Umurima uteyemo ingano, bawitaho bashiraho ifumbire bita imvaruganda, babijyana ku isoko, barabigura bitanga amafaranga, ikindi kandi barabibeta bivamo ifu banywamo igikoma, bakoramo n'umutsima.

Ibihingwa abahinzi bahinga bitandukanye harimo ibishyimbo babyitaho, bashyiraho ifumbire kuko bitanga umusaruro ushimishije barabisarura babijyana ku isoko bitanga amafaranga, ikindi kandi banabitekaga kuko bibaga biryoshye cyanee

Ibihingwa abahinzi bahinga bita ubunyobwa，babwitaho，bashyiraho ifumbire， kuko butanga umusaruro ushimishije， ikindi kandi barabusarura babujyana ku isoko，butanga amafaranga，barabubeta， buvamo ifu abantu banywamo isosi.

Umurima munini urimo ibihingwa byitwa ibihwagari bimeze neza, babyitaho bigira umusaruro ushimishije, barabigurisha, barabibeta bikavamo ifu bashira mu biryo baranabigurisha bigatanga amafaranga.

Ibishyimbo biri ku igare bimeze neza, babyitaho bashyiraho ifumbire kuko bitanga umusaruro ushimishije, barabisarura barabibika, babijyana ku isoko, bitanga amafaranga, ikindi kandi abantu baranabirya.

Umurima urimo ubunyobwa bumeze neza, babwitagaho bashyiraho ifumbire, kuko butanga umusaruro, ushimishije barabusarura babujyana ku isoko, butanga amafaranga, ikindi kandi ,havamo ifu banywamo isosi, baranabukaranga, bakanabuhekenya.

Ikibuga kirimo umuntu ufite ibishyimbo, babyitaho, bashyiraho ifumbire kuko bitanga umusaruro ushimishije, babijana ku isoko, bitanga amafaranga, hirya y'uwo muntu hari imodoka y'umukara, hirya y'iyo modoka hari ibiti byinshi cyane, hari n'amapoto ajyana umuriro hirya no hino.

Ubunyobwa budatonoye buri ku gikoresho bubakisha ibiti, babyitaho bashiraho ifumbire butanga umusaruro bushimishije, babugurisha bukavanamo amafaranga. Ikindi kandi barabubeta bukavamo ifu banywamo isosi, baranabubukaranga bakabuhekenya.

Amasafuriya asa n'umweru arimo soya n'ibishyimbo barabihinga babyitaho bashyiraho ifumbire babijyana ku isoko bitanga amafaranga ikindi kandi soya barayibetesha bakanywamo igikoma, ibishyimbo barabiteka bakabirya.

Ibishyimbo bita intonore bimeze neza cyane babyitaho, bashiraho ifumbire, barabisarura, barabyanika, barabihura, bakabijyana ku isoko bitanga umusaruro bivamo amafaranga, ikindi kandi abantu baranabiteka biraryoha cyane.

Umurima munini urimo amabuye bita amakoro hahigwamo ibihingwa bimeze neza, babyitaho bashiraho ifumbire bitanga umusaruro, barabijyana mu isoko bakabigura bitanga amafaranga ikindi kandi babikoramo n'ibindi bitandukanye.

Umurima urimo ibishyimbo bimeze neza, babitera ku murongo, babyitaho, bashyiraho ifumbire bita imvaruganda, ibishyimbo ni byera bizatanga umusaruro ushimishije, barabijyana ku isoko, barabigurisha, barabigura, ikindi kandi baranabiteka.

Umurima munini uhinzemo ibigori babyitaho, bashiraho ifumbire, bita imvaruganda, birera barabijyana ku isoko, barabigurisha, ikindi kandi barabibeta, bivamo ifu banywamo igikoma, ndetse n'umutsima.

Ibihingwa abahinzi bita ibishyimbo, babyitaho biramera kuko bitanga umusaruro ushimishije, barabisarura babijya ku isoko, ikindi kandi bitanga amafaranga, abantu baranabirya biba biryoshye cyane.

Ibihingwa abahinzi bifashisha bahinga babyitaho bashiraho ifumbire bita imvaruganda, barabisarura barabigosora babijyana ku isoko, bitanga amafaranga ibyo kurya n'ibindi. Ikindi hari n'umuntu uri kugosora ibyo bihingwa hirya y'uwo muntu hari ibintu twita shitingi hari n'imifuka irimo ibintu n'amazu asakaje amabati asa n'umweru.

Ibihingwa abahinzi bifashisha bahinga, babyitaho bashiraho ifumbire, kuko bitanga umusaruro ushimishije, barabisarura, babijyana ku isoko, bitanga amafaranga, ikindi kandi ibishyimbo barabiteka, kuko biba mu biribwa byubaka umubiri.

Igihingwa abahinzi bahinga bitaa ibihwagari, babyitaho bashyiraho ifumbire kuko bitanga umusaruro ushimishije, barabisarura babijyana ku isoko bitanga amafaranga, ikindi kandi barabibetesha bitanga ifu abantu banywamo isosi.

Umurima munini urimo ibihingwa abahinzi bahinga bita ibihwagari, babyitaho bashyiraho ifumbire, k'uko bitanga umusaruro ushimishije. Barabisarura babijyana ku isoko bitanga amafaranga, ikindi kandi abantu barabibetesha bitanga ifu abantu banywamo isosi.

Abahinzi bahinga ibihingwa bigiye bitandukanye harimo umuceri bawitaho, bashiramo ifumbire, bawutera umuti kugira ngo utarwara ubukoko, ikindi kandi barawugurisha, uvamo amafaranga barawurya bakawukuramo n'ibyo kugaburira amatungo.

Inzu yubatse neza isakakaje amabati y'umutuku yubakishije ibyuma by'umutuku, n'imbere harimo ibigori mu buryo bwo kubika bimanitse, ibigori bigira akamaro gatandukanye, barabihunguraga, barabibetaga bivagamo ifu z'igikoma bivagamo n'umutsima.

Umurima munini urimo ibimera bitandukanye, bawitaho, bashyiraho ifumbire bita imvaruganda, bitanga umusaruro ushimishije, barabigurisha ,bitanga amafaranga, ikindi kandi baranabiteka.

Ubunyobwa babwitaho bashiraho ifumbire kuko bitanga umusaruro ushimishije. Barabusarura bakabutonora, butanga amafaranga, ikindi kandi babubetesha buvagamo ifu abantu banywamo isosi iba iryoshe cyane.

Ibishyimbo n'ibihingwa abahinzi bifashisha bahinga, babyitaho, bashyiraho ifumbire, bitanga umusaruro ushimishije, babijyana ku isoko, bitanga amafaranga, biri mu mufuka gusa n'umweru, mu mufuka harimo imironko isa n'umutuku hijya yayo hari abantu bari kugura amandazi.

Umurima urimo ibihingwa bita ibishyimbo, babyitaho bashyiraho ifumbire, kuko bitanga umusaruro ushimishije. Barabisarura babijyana ku isoko, bitanga amafaranga ikindi kandi barabirya kuko biba biryoshe cyane.

Ibihingwa abahinzi bahinga bita ibihwagari, babyitaho kuko bitanga umusaruro ushimishije, babijyana ku isoko, bitangaga amafaranga, ikindi kandi abantu barabibetesha, bivamo ifu abantu banywamo isosi.

Ibihingwa abahinzi bahinga bita ibihwagari, babyitaho bashyiraho ifumbire bita imvaruganda n'imborera, bitanga umusaruro ushimishije barabigurisha bitanga amafaranga, ikindi kandi abantu barabibetesha bitanga ifu abantu bashyira mu biryo bigatanga isosi.

Ubunyobwa budatonoye buri ku biti byabwo babwitaho, bashiraho ifumbire, butanga umusaruro bushimishije, babujyana ku isoko butanga amafaranga. Ikindi kandi barabubetesha bukavamo ifu banywamo isosi iba iryoshe neza cyane.

Imifuka nyinshi itandukanye irimo ubunyobwa. Bumwe burasatuye ubundi ntibusatuye, ikindi kandi ubunyobwa barabubeta buvamo isosi abantu bayishyira mu biryo, ikindi kandi barabukaranga bakabuhekenya.

Igikoresho bita ibasi ifite amabara atandukanye amwe asa n'icyatsi andi asagn'umweru. harimo ibishyimbo bimeze neza ikindi kandi ibasi ni igikoresho abantu bakoresha bayikarabiramo, bayifuriramo ,bogerezamo ibyombo ikindi kandi iteretse ahantu hari ibyatsi bisa n'icyatsi.

Imifuka bashyiramo ibigori, abahinzi bahinga, babyitaho bashyiraho ifumbire, kuko bitanga umusaruro ushimishije, barabisarura, babijyana ku isoko, batanga amafaranga, ikindi barabibetesha, kandi bivamo ifu, abantu banywamo igikoma.

Ubunyobwa buba buri ku giti cyabwo budatonoye bumeze neza, babwitaho bashyiraho ifumbire kuko butanga umusaruro ushimishije, babujyana mu isoko barabugurisha butanga amafaranga, ikindi kandi barawubetesha bagakuramo isosi yo kunywa.

Ibihingwa abahinzi bifashisha mu guhinga babyitaho bashyiraho ifumbire y'amoko yose imvaruganda, andi yitwa imborera, bitanga umusaruro ushimishije barabisarura babijyana ku isoko kuko bitanga amafaranga. Ikindi kandi baranabirya, babijyana mu masoko agiye atandukanye.

Amasaka n'ibihingwa abantu bifashisha mu guhinga bayitaho bashyiraho ifumbire, atanga umusaruro ushimishije barayagurisha, atanga amafaranga ikindi kandi barayabetesha, avamo igikoma cyo kunywa, avamo umusururu, avamo ifu bakoresha n'ibindi.

Ibikoresho birimo amabara atandukanye arimo amagi bayitaho barayajyana mu isoko kuko atanga umusaruro ushimishije, atanga amafaranga, bakuramo amatungo yo korora bita inkoko, ikindi kandi baranayarya.

Inkoko nyinshi zifite amabara atandukanye, hagati yazo harimo ibikoresho bakoresha ziriramo, zitanga umusaruro ushimishije, zitanga ifumbire, amafaranga, ikindi kandi zitanga inyama abantu bajya.

Umurima munini uririmo ibyatsi utemo amashyamba, ikindi kandi harimo abagabo batatu bambara imyenda ifite amabara atandukanye, harimo iyisa n'umweru, iyindi isa n'icyatsi, iyindi isa n'umukara, harimo inka iri kurisha ubwatsi.

Amatungo bita inkwavu bazitaho barazigaburira kuko zitanga umusaruro ushimishije, bazijyana ku isoko, zitanga amafaranga ikindi kandi zitanga inyama abantu barya, zitanga ifumbire.

Umurima urimo inka ifite amabara atandukanye harimo ay'umweru, ifite amaherena ku matwi, ifite ku mutwe amahembe, ikindi kandi inka itanga umusaruro ushimishije, bayijyana ku isoko, itanga amafaranga, itanga inyama, itanga ifumbire n'ibindi.

Inka ebyiri zisa n'umukara, bazitaho barazigaburira kuko zitanga umusaruro ushimishije, bazijyana ku isoko zitanga amafaranga, zitanga inyama, abantu barya. Zitanga amata abantu banywa, ikindi kandi hari umuntu wicaye uziragiye.

Inkoko zifite amabara atandukanye bazitaho barazigaburira, kuko zitanga umusaruro ushimishije bazijyana ku isoko zitanga amafaranga, zitanga inyama abantu barya ikindi kandi agati k'izo nkoko harimo umuntu uri kuzigaburira.

Umuntu uvura amatungo bita veterineri afite icupa ribamo umuti, n'igikoresho bita igitori ari gushyiramo umuti, kugira ngo awutere inka, ikindi kandi abavura amatungo batuma atanga umusaruro.

Inka ifite amabara atandukanye, imwe isa n'umweru, indi isa n'ikake, bayitaho, barayigaburira kuko itanga umusaruro ushimishije, bayijyana ku isoko, itanga amafaranga, itanga inyama abantu barya, ikindi kandi itanga amata abantu banywa.

Umuntu wita ku matungo bita veterineri, yambara imyenda isa n'ubururu, yambara ga mu ntoki zisa n'ubururu, yambara akuma mu ijosi, atera umuti imbwa, kuko iyo mbwa ikingiye ntabwo iryana.

Amatungo bita inkoko ,bazitaho , barazigaburira kuko zitanga umusaruro ushimishije. Bazijana ku isoko zitanga amafaranga, zitanga inyama ikindi kandi zitanga amagi abantu barya.

Ihene zifite amabara atandukanye, amwe asa n'umukara ,umweru, kake, bazitaho ,barazigaburira kuko zitanga umusaruro ushimishije, bazijyana ku isoko zitanga amafaranga, ikindi kandi zitanga inyama abantu barya, zitanga ifumbire.

Abantu bita ba veterineri bambara imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru, andi asa n'ubururu, icyatsi. Ni abantu bavura amatungo, bayitayeho kuko atanga umusaruro ushimishije. Mu ntoki zabo, bambaye ibikoresho bita ga.

Ikibuga kirimo inka zifite amabara atandukanye amwe asa n'umweruru, andi asaga n'umukara n'ikigina, hari ikiraro cyubakishije ibiti bashyiramo inka iyo bagiye kuyikama, hari abantu batatu bambara imyenda itandukanye, ikindi kandi bazitaho kuko zitanga umusaruro ushimishije, barazigurisha, zitanga amafaranga, inyama abantu barya n'ifumbire.

Umurima munini urimo ibyatsi, uteyemo amashyamba atandukanye, harimo amatungo atandukanye, harimo inka, ihene zifite amabara atandukanye, harimo izifite amabara y'umukara, izindi zifite amabara y'ikigina, ikindi kandi hari umuntu urimo hagati yazo.

Mu murima urimo abantu bambara imyenda ifite amabara atandukanye harimo asa n'umutuku, andi asa n'umweru, andi asa n'umukara, inyuma y'abo bantu hari inzu ifite ibiti isakaje amabati asa n'umweru, inyuma y'iyo nzu hari ibiti bimeze neza, babyitaho kuko bitanga umusaruro ushimishije.

Ihene zifite amabara atandukanye amwe asa n'umweru ayandi asa n'umukara, bazitaho barazigaburira kuko zitanga umusaruro ushimishije, bazijyana ku isoko zitanga amafaranga zitanga inyama abantu barya, ikindi kandi zitanga ifumbire abantu bakoresha mu guhinga.

Inka eshatu zihagaze mu muhanda, hirya yazo hari ubwatsi bumeze neza, inka bazitaho, iyo uzitayeho zitanga umusaruro ufatika, zitanga ifumbire, zitanga amafaranga, zitanga inyama, zitanga amata.

Inkoko zimeze neza cyane bazitaho, barazigaburira kuko zitanga umusaruro ushimishije, bazijyana ku isoko zitanga amafaranga, zitanga amagi abantu bajya ikindi kandi hagati muri zo hari umunzani bateretseho ibase irimo inkoko bari gupima ibiro.

Umurima munini urimo ibyatsi inka zirisha, hari inka nyinshi zifite amabara atandukanye, zimwe zisa n'umukara, izindi zisa n'umweru, umushumba akama amata yo kunywa bita amarindira.

Inkoko zimeze neza cyane bazitaho barazigaburira zitanga umusaruro ushimishije, barazigurisha zitanga amafaranga zitanga inyama, ikindi kandi zitanga amagi abantu barya aba aryoshye cyane.

Inkoko zimeze neza cyane, bazitaho, barazigaburira, kuko zitanga umusaruro ushimishije, barazigurisha zitanga amafaranga, zitanga inyama, ikindi kandi zitanga amagi abantu barya, bayaha abana batangiye kurya.

Ibiraro bororeramo, byubakishije ibiti, bisakaje amabati y'umweru, bazitaho, barazigaburira kuko zitanga umusaruro, barazijyana, barazigurisha, zitanga amafaranga, zitanga inyama, zitanga n'ifumbire.

Amazu yubatse neza yubakishije amatafari ahiye, asakaje amabati asa n'umweru, imbere y'iyo nzu hari ibyatsi bimeze neza babyitaho kuko babiha amatungo, inyuma y'iyo nzu hari ibiti bimeze neza bitanga umusaruro, barabigurisha, bitanga intebe, bitanga ameza n'ibindi.

Ihene zimeze neza bazitaho barazigaburira kuko zitanga umusaruro ushimishije, barazigurisha zitanga amafaranga zitanga inyama, ikindi kandi zitanga ifumbire abantu bakoresha bahinga, hari abantu bafite ubwatsi mu ntoki bagiye kuzigaburira, inyuma y'abo bantu hari ikiraro cyazo cyubakishije ibiti.

Ikinyoni gifite amabara atandukanye; amwe asa n'ubururu andi asa n'umuhondo, gifite umunwa usongoye, usa n'umukara, gifite amaso, gifite amaguru abiri, gihagaze ku giti kinini cyane gitambitse

Ikinyoni gifite umunwa ushongoshoye, gifite amabara atandukanye amwe asa n'umukara, andi asa n'umuhondo, andi asa n'ubururu, kiba mu nyamaswa ziba mu ishyamba, iba mu bwoko bw'ibiguruka iba nziza kuko ikunda abana bayo.

Igisiga gifite umunwa gushongoshoye , gifite amaso gasa n'umukara. Amaguru asa n'umukara. Hariho ikintu gisa n'umweru gihagaze ku biti bimeze neza. Imbere y'igisiga hari ibyatsi bimeze neza. Babyitaho kuko bitanga umusaruro ushimishije. Babiha amatungo bigatanga amafaranga.

Inyamaswa ifite amabara atandukanye amwe asa n'umukara ayandi asa n'umweru, imeze neza bayitaho kuko itanga umusaruro ushimishije abantu baza kuzisura bagatanga amafaranga ikindi kandi bikurura abakerarugendo.

Umurima urimo ibyatsi uhagazemo binyoni bibiri bifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru, andi asaga n'umukara bifite umunwa usa n'umutuku. Bifite amaso, bifite amaguru abiri. Ikindi kandi biri kwitegereza.

Inyamaswa zifite amabara atandukanye, amwe asa n'ikigina, ayandi asa n'umweru n'umukara, zifite amaso y'umukara, amatwi n'umunwa, zifite umurizo inyuma, zifite amaboko n'amaguru. Igiteye ubwuzu, zicara nk'abantu. Ikindi kandi, ziba mu nyamaswa zororerwa mu mashyamba.

Umurima munini urimo ibyatsi bifite amabara atandukanye, bimwe bisa n'icyatsi, ibindi bisa n'umukara, harimo igikeri kiba mu mwobo gikunda kujya ku gasozi iyo akazuba kavuye, gishaka n'ibyo kurya bigitunga, kugira ngo kibeho.

Ikinyoni gifite umunwa ushogoshoye, gifite amabara atandukanye, amwe asa n'umuka, andi asa n'umweru, andi asa n'ubururu. Kiba mu nyamaswa zo mu ishyamba iba mu bwoko bw'iziguruka, iba nziza kuko ikunda abana bayo.

Inyamaswa zisa n'umukara ziba mu ishyamba bita ingagi, ni inyamaswa ziteye ubwuzu cyane zigira akamaro kanini, bazitaho abantu bazajya kuzireba zikinjiza amafaranga. ikindi kandi ni inyamaswa zigira urukundo rwinshi cyane.

Ikinyoni gifite amabara atandukanye, amwe asa n'umukara, andi asa n'umweru. Ku mutwe wacyo, hariho ibara risa n’umutuku. Kigira umunwa usongoye, gihagaze ku giti kinini cyane. Ikindi kandi, kiba mu nyamaswa z'ibiguruka, ziba mu ishyamba.

Inyamaswa bita ingagi isaga ni umukara, ihagaze ku rugi rufite irangi risa n'umukara, hari indabyo zimeze neza, imbere y'iyo ngagi hari icyapa gishushanyijeho ibendera ry'u Rwanda, ikindi kandi ingagi itera ubwuzu kuko abantu baza kuyisura, itanga umusaruro ushimishije.

Igisiga gisa n'umukara gihagaze mu murima urimo ibyatsi, ikindi kandi kiba mu nyamaswa ziba i gasozi mu bwoko bw'ibiguruka, ikindi kandi gikunda kujya aho babagira amatungo yo kurya, kiba gishaka inyama kirya.

Inyamaswa ifite amabara atandukanye amwe asa n'ikigina, andi asa n'umweru, yashyize amaguru ku giti kinini cyane ikindi kandi inyamaswa bazororera mu ishyamba, kuko zitanga umusaruro ushimishije iyo abantu baje kuzisura muri pariki yazo.